Iyi foto iragaragara yuko ari abantu bicaye ahantu hamwe, bari gukora inama, bakaba bafite umuyobozi ubahagaze imbere, imbere yabo ku meza hariho uducupa tw'amazi bari kunywa.

Iyi foto iragaragaza y'uko ari umuntu bari gukorera ubuvuzi bw'amenyo, kuyashyiramo cyangwa se kuyoza cyangwa se kuyakuramo kugira ngo ubuzima bwe bukomeze bugende neza.